Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi. Ni ingenzi cyane kubigana maze ukabikoresha kugira ngo wongere umusaruro. Iyo ukoresha ibi bikoresho bituma ibyo ukora ubikora neza.

Ibyatsi bitandukanye ndetse n'ishyamba, ni ingenzi cyane kuko kubyitaho ni byiza, bituma amatungo abona ibyo arya ndetse n'abantu bakabona umwuka mwiza bahumeka.

Ingurube ironsa ibyana byazo, ni ngombwa ko ingurube zitabwaho, zigahabwa ibimera n'ibiryo bitandukanye kugira ngo zibone ibyo zonsa abana bazo, zitanga umusaruro mwiza wiganjemo inyama n'ibindi.

Inyamaswa zitandukanye ziboneka mu mashyamba atandukanye, ni ingenzi cyane kwita ku nyamaswa kugira ngo tubone amafaranga aturuka muri ba mukerarugendo. Kwita ku bimera kugira ngo nanone izo nyamaswa zibone aho ziba.